Inama y'abantu. Harimo umugore, wambaye ikanzu, hari umukobwa kuruhande, wambaye umu, ipantaro y'umutuku afite ajenda y'umutuku, ndetse kuruhande rwe hari n'umusirikare.

Aha hantu hari abantu benshi ariko hari abantu batatu, umwe umugore, umugabo, ku ruhande n'undi mugabo wundi wambaye umupira w'umweru, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye umupira w'umukara.

Abantu benshi bari mu nama. Imbere yabo hari amacupa. Kuruhande hari umusirikare, kurundi ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umukara. Kurundi ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ikoti ry'ubururu ndetse nundi wambaye agashati k'ubururu.

Abantu bari muri sare bamwe bambaye amarinete, imbere hari umusirikare uri ku meza ari kwitegereza umugabo urimo gusinya wo muri RCS, imbere hari porojegita, imbere yabo hari amazi y'Inyange.

Umugore uhagaze ari kuri mikoro ndetse inyuma ye hari igitambara cy'umweru, hejuru ye hari igitambara cy'icyatsi ndetse hejuru hari icy'umuhondo n'umweru.

Umugabo wambaye ingofero afite mikoro iri mu ibara ry'umweru n'umutuku yambaye impuzankano za gisirikare, te ari zo twita teni de siporo, yambaye iriho ikirangantego cya gisirikare rya repubulika y'u Rwanda.

Umuntu ufite mikoro afite imisatsi y'umweru afite telefone mu ntoki hari abandi bantu bari kureba umwe wambaye amarinete n'undi utayambaye uwo muntu uri kuvuga yambaye agapira k'umweru.

Abantu benshi bicaye bari kuganira, umugore umwe ntabwo asutse yambaye agapira k'ikijuju kandi arirabura, inyuma ye hari uwateze agatambaro k'amabara harimo n'iry'umweru.

Ikirangantego kigaragaza ibara ry'umweru n'umukara n'imirongo iberamye, indi ireba ku ruhande rw'iburyo n'indi ireba ku ruhande rw'ibumoso.

Abakobwa babiri bose bambaye imikenyero bafite idebe bari kuvuza, umwe yambaye agakomo, undi yambaye isaha, undi yambaye umukenyero w'umweru.

Abakobwa bane bari kubyina, babiri bari gukoma amashyi, abandi babiri bari kwitegereza uko abandi bari kubyina. Inyama yabo hari abageni ndetse n'ingoma n'ibyuma bikoreshwa mu muziki.

Umugabo urimo guseka yambaye agapira k'umutuku kandikishijeho amagambo y'umweru, inyuma ye hari inka z'inyambo, inyuma yazo hari ibiti.

Abantu bicaye mu dutebe tw'icyatsi, imbere yabo hari ameza y'umuhondo, kuri ayo meza hari amacupa y'amazi y'Inyange ndetse na ji y'umuhondo, ateretse imbere y'abana, inyuma yabo hari abagabo.

Umugore ufite mikoro, yambaye umukenyero, inyuma hariru umugabo wambaye ishati ya move, imbere hari akabuni karimo ji y'inyange, iruhande rwe hari abadaso.

Umusambi uzinzemo kabiri, hasi ni mu itaka ry'ikigina, imbere harima uyifasheho ukuboko urimo kuyikwega.

Ikirago gishashe hasi hari ibyatsi icyo kirago kiri mu ibara ry'mweru n'umukara rifitemo udushushanyo turimeze nk'umunani.

Abagabo babiri bambaye amajiri y'icyatsi, imbere ye hari undi wambaye ikigofero cyu'mweru, imbere yabo hari ikizu kirimo insinga nyinshi zikoreshwa mu mashanyarazi.

Mu kirere cy'ubururu gifite ibara ry'umweru, hasi hari ipoto rifite amabara y'umweru n'amatara ndetse kiri mu ibara ry'umweru.

Umugore uri gukanda kuri kash pawa yambaye isarubeti ya REG yanditseho imibare kane kane icyenda yambaye kasike y'umweru kandi uwo mugore arirabura.

Abantu bari gukurura ikigozi hariho uwambaye ingofero yambaye umupira wumweru ipantaro yumukara ninkweto z'umutuku n'umugabo kuruhande wambaye ipantaro ya kaki.

Abantu benshi bambaye kasike z'umweru, n'amajiri y'icyatsi, harimo n'ibara ry'umweru, hari umugabo wambaye n'ipantaro y'umweru, bari kureba ahantu hari amapoto ariho insinga.

Abagabo babiri bari ku gikwa bambaye kasike z'umutuku n'amasarubeti y'ubururu, handitseho inyuma ibara ry'umweru, ibikwa birajya gusa umutuku.

Amapironi atatu ya mbere n'andi abiri, ku ruhande rwayo hariho insinga zigiye zifatanye, hirya y'aho hakurya hari inzu y'ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri bafunguye igikotineri, cyegereye amapato bamanikaho insinga z'amashanyarazi, abo bantu bambaye, umwe afite ingofero y'icyatsi, undi afite iy'ubururu n'amajire y'icyatsi.

Kashi pawa y'umweru irimo imibare zeru, zeru, rimwe, karindwi ,gatanu, iruhande rwayo hariho indi mibare ifite amabuto y'umweru n'umukara ndetse n'ahandi humutuku,

Umuntu wambaye kasike, amarinete, ni umuzungu ufite ibitabo mu ntoki ari gukanda ahantu ku gikuta, ku ruhande rw'ikoti rye hariho ikaramu ndetse yambaye n'isarubeti.

Abantu bari kwitegereza igishushanyo kiriho inzu y'ubururu ndetse n'ikirangantego k'Igihugu cy'u Rwanda. Uwo mugabo yambaye ikote ry'umweru n'umukara.

Ahantu hari umusozi, amazu afite amabati y'icyatsi, ku ruhande hari umuhanda ndetse n'amazu afite amabati y'icyatsi n'itara ku muhanda, mu muhanda harimo umuntu uhagazemo.

Imodoka ya ritico iri kuza imbere inyuma hari amazu no kuruhande hari amazu iruhande rwayo hari icyapa.

Abantu benshi bahagaze ahantu ku kiraro kiriho ibyuma bisa umweru n'umutuku, abantu bambaye umweru n'umukara ndetse n'abandi bambaye amabara atandukanye.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye n'ibintu byinshi bitandukanye, haba ibirayi, ibitunguru, ubuto ndetse n'igare, intebe z'umutuku za mitzingi.

Inzu zifite amabati y'umutuku hasi hari ibitaka. Kuruhande yubakishije amatafari, gusa harimo n'akarange k'umuhondo.

Abantu babiri bari mu kiraro cyo mu kirere, icyo kiraro cyo mu kirere kirasa umweru ndetse abantu bambaye imipira y'umutuku n'amapantaro y'umukara.

Ahantu hari ibyatsi, inyuma hari umuhanda ukomeza, inyuma yaho hari amazu ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda w'igitaka imbere hari amazu menshi atandukanye, hari inyuma y'aho hari umusozi ndetse hari n'ibiti bihakikije.

Imihanda, itatu, isobekeranyije. Umwe ni uwakaburimbo, undi ni uwigitaka, hagati yaho harimo akantu kameze nk'agasozi, harimo ibyatsi.

Inzu ifite amabara y'icyatsi n'umweru n'umukara, inzugi ni icyatsi, kositara ni icyatsi, ifite ikigega ku ruhande.

Ahantu hari ikiraro hejuru hari abantu babiri, umwe yambaye ingofero shati y'umweru, n'ipantaro n'inkweto z'umukara, hasi harimo ugiye kumanuka yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara, n'agapira k'umweru, icyo kiraro kiriho amabara y'umutuku n'umweru.

Abantu bahagaze bose harimo umugabo wifashe ku maboko inyuma, iruhande rwe hari umugabo wambaye ibaji y'ubururu n'ishati y'umweru.

Abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze, bari mu kiriyo umusirikare umwe arahagaze afite buji n'undi mupolisi ku ruhande, hagati yabo harimo umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umukara.

Abagabo benshi bari ku kumurongo bari kugendera mu kayira k'igitaka, iruhande rwabo hari uruzitiro rw'imiyenzi, ku rundi ruhande hari imodoka, ku ruhande rw'ibumoso hari insina.

Abagabo batatu, umwe yambaye agashati karimo umweru n'umutuku undi yambaye agashati k'umweru afite baji yambaye amarinete undi nta marinete yambaye k'uruhande yambaye ishati yishati y'ikijuju n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bahagaze mu rutoki babagabo, umwe afite inkoni mu ntoki, undi yambaye ingofero harimo n'umupolisi kuruhande.

Abantu benshi harimo abasore babiri ,umwe wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro yikoboyi y'ubururu, inyuma ye hari umusore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru.

Umusirikare uri kuvugira muri mikoro yambaye amarinete, ingofero hariho ikirangantego cy'u Rwanda hariho n'idarapo ry'u Rwandaho handitseho amagambo Inteko Rusange y'Urubyiruko.

Umugabo uhagaze ku mapave iruhande rwe hari umuhanda inyuma ye hari amazu y'umuhondo y'ibitwe, hari imbere ye hari umuntu uhagaze ku cyapa ndetse n'icyapa cy'umweru n'umutuku.

Umumotari uri mumuhanda wa kaburimbo w'umukara, urimo imirongo y'umuhondo, inyuma ye hari etaje ifite amarangi y'umutuku, umumotari yambaye kasike y'umukara ndetse afite igipuni cy'amazi imbere kuri moto.

Imodoka ifite pulake yandikishije amabara y'umukara, iyo modoka ifite ibirahure ry'umweru nayo ubwayo irasa umweru, umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari amabara y'umweru n'umukara.

Umugore uhagaze, ari kumwe n'umugabo uri kuri moto, inyuma yabo hari moto iriho kasike ebyiri, n'imbere yabo, hari indi moto, iriho kasike imwe y'umukara.

uUmugore ufite mikoro y'umweru n'umutuku, arikuvuga yambaye amarinete hejuru ku gahanga, yasize amahina, yambaye impeta ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Abantu bari mukibuga bari gukina umupira, hamwe ho bari gukina umupira abandi hari abafite imitaka hagaragaraho...

Abantu bari ahantu bari kubyina bose, umugore akinnye agatambara mu mutwe, inyuma ye hari abagabo babiri, umwe yambaye umupira w'ubururu, undi uw'umweru, iruhande rwabo hari umugore ufite ijire y'icyatsi.

Umusirikare uhagaze yambaye impuzankano ya gisirikare n'idarapo ry'u Rwanda, ririho umuhondo, cyatsi ndetse n'ubururu, iruhande rwe hari umugabo wicaye yambaye ishati ya move n'ingofero y'umukara.

Abagabo bane, harimo uwambaye impuzankano za gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse harimo umugabo wambaye amarinete ishati y'ubururu na karuvati y'ubururu n'ikote ry'umukara, kuruhande rwe hari imodoka.

Abantu benshi bahagaze bose bari kureba inka ifite ibara ry'umweru n'umukara, ku ruhande hari umugabo wambaye ikoti, afite n'agacupa k'amazi.

Abantu benshi bafite amasuka barimo guhinga abandi batarimo guhinga. Hari abari guseka, hari umugore inyuma yabo, wambaye agapira k'umutuku n'igitenge cy'ubururu.

Abantu benshi barimo kurebarebana, hirya y'aho hari ibiti byo batera ndetse ku ruhande rw'ibyo biti hari ikigori gifite imisatsi, hakurya hari inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'ikindi n'ahandi hari igifite amabati.

Abana b'abakobwa barimo gukina umupira bambaye amasogisi bamwe y'umweru abandi ay'umukara, bafite balo ndetse umwe inyuma yambaye ingofero undi yambaye amagezi y'ubururu asa.

Umukinnyi wambaye amajezi y'ubururu n'umweru, n'inkweto z'umutuku, afite balo y'umweru n'umutuku n'ubururu, agiye gutera ishoti mu izamu, umunyezamu ari hanze y'izamu yambaye icyatsi.

Abantu bari gukina umupira, bambaye amagezi y'ubururu abandi bambaye ay'umutuku, hasi bambaye ikabutura z'ubururu, harimo abambaye umweru, harimo n'abambaye amasosi y'umukara.

Abasore babiri bahagaze, umwe afite ifoka mu kanwa, ari kwaka umuriro, yambaye umukufi n'umupira w'umweru, n'agafere k'umukara mu mutwe, ndetse no ku ruhande hari undi musore.

Abakinnyi bari kwifotoza bambaye ubururu. Umunyezamu yambaye umutuku na ga z'umweru zirimo ubururu n'inkweto z'umuhondo n'amasosi y'icyatsi.

Ikipe y'abasore bambaye impuzangano cyangwa amagezi y'icyatsi, ubururu ndetse n'inkweto bamwe z'umutuku abandi iz'umweru.

Abantu bari mu muhanda bari kwiruka harimo uwambaye agapira k'umweru, uwambaye itiriningi, uwambaye agapira k'umuhondo, yambaye n'inkweto z'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Ikibuga cy'umupira kiri mu ibara ry'icyatsi n'amazamu afite amapoto y'umweru, hari abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Abantu benshi bari ku murongo bari kubyina umwe yambaye ingofero y'umukara, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto zirimo ikijuju n'umweru.

Umumuhanda w'umukara uciyemo imirongo y'umuhondo, iruhande hari umugabo uri gutwara igare, mu muhanda hagati harimo imodoka ifite pulake y'umweru.

Umugabo wambaye ishati yu'mweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara afite akantu mu ntoki k'umweru afite isuka ku rutugu y'igembe, iruhande rwe hari inzu y'igipangu n'imbere ye hari ayandi mazu afite amabati y'umutuku.